Ububiko bw'imiti bugaragara ko hari iguriro ry'imiti, aho umurwayi agenda afite uburwayi bakamusuzuma, maze bakamuha imiti igendanye n'iyo ndwara.

Inyubako y'ubucuruzi icuruza imiti, aho iyo umuntu yarwaye afite ubushobozi bwo kujya kugura umuti akeneye muri iyo nyubako, kandi akawuhabwa bitewe n'indwara arwaye.

Imiti gakondo ijyanwa mu nganda maze bakayikuramo indi miti myinshi ya kizungu, bityo igahabwa abarwayi kwa muganga, ari na byo bituma ibiti bigomba kuba byabungabungwa na buri wese.

Uruteja ni kimwe mu bimera byakoreshwaga nk'umuti gakondo. Iki kimera rero cyakizaga ingorane nyinshi zitandukanye nk'amahumane aho wafataga umushongi wacyo ukawusiga aharwaye maze ugakira.

Ibyatsi harimo umuharavumba ndetse na cyimbazi, aho byakoreshwaga mu kuvura inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zandura, aho n'ubu bigikoreshwa mu gukora imiti ya kizungu.

Imiti gakondo cyangwa se ibyatsi byinshi, bikoreshwa mu gukora imiti ya kizungu bityo rero buri wese akaba, agomba kwimakaza kandi akarinda ibidukikije harimo n'amashyamba.

Imiti gakondo, hari imwe yakoreshwaga nk'ifu nk'uko ubu bimeze cyangwa se ikaribwa ako kanya amababi yayo, cyangwa se agatekwa, rero buri wese yagiraga uko akoresha umuti.

Hari ibyatsi bimwe na bimwe byakendereye kubera kubikoresha cyane nk'imiti ya kizungu. Aho kera byakoreshwaga nk'imiti gakondo, none kuri iyi saha bikaba biri gushira ku isi.

Abantu barakangurirwa kudasuzugura imiti gakondo kuko ari yo shingiro y'imiti ya kizungu, kandi iyo miti ikaba ikiza indwara nyinshi zitandukanye utatekereza.

Abantu benshi bo muri iki gihe ,ntabwo bamenya ibyatsi n'imiti gakondo bakoresha kugira ngo bivure indwara nyinshi zitandukanye ,nk'igicunshu kugira ngo bivure inkorora ndetse n'ibindi.

Amashyamba ni meza cyane, kuko nk'abantu atugirira umumaro munini cyane, nko kuduha umwuka mwiza wo guhumeka, intaho y'inyamaswa . Ariko by'umwihariko akaduha n'inkomoko y'imiti , aho imiti myinshi ya kizungu ikomoka ku byatsi biva mu mumashyamba.

Hari indwara amagana n'amagana， imiti gakondo yakizaga， kandi ikayikiza neza nta ngaruka. Usibye ko ubu bisigaye byarasimbuwe n'imiti ya kizungu，aho ujya kwa muganga bakayiguha.

Ibyatsi bimwe na bimwe，mu Rwanda rwo hambere，byakoreshwaga nk'imiti gakondo. Aho byifashishwaga mu kuvura indwara nyinshi， harimo nk'amahumane， indwara zandura， ndetse n'izindi nyinshi cyane， naho kuri ubu ngubu， ibyo byatsi bikaba bikoreshwa nk'inkomoko y'imiti ya kizungu.

Amajeri cyangwa se amashaza, ni bimwe mu bihingwa bihindwa cyane mu Rwanda. Aho gitegurwaga nk'ifunguro, kandi ni cyiza ku mubiri w'umuntu, kuko kirinda indwara nyinshi zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso.